Abajyanama b'ubuzima bafasha abaturage mu kubungabunga ubuzima bwabo ndetse no kubyitaho by'umwihariko gufata no gufasha abana no kubafatirakana by'ubuzima bw'ibanze biganyeuko bahagaze harimo nk'umuriro, mulariya n'izindi nzira zituma barushaho kugira ibintu bikwiye.

Gutegurira amafungura abana mu gihe ku ishuri, bibafasha mu kwiga neza no kugira ubuzima bwiza, bagakurikirana amasomo yabo ntakindi kibazo kibanje kubahunga, kuko akenshi hari ubwo mu miryango yabo batabasha kubona ifunguro rya saa sita rimwe na rimwe bikababuza no gusubira ku ishuri.

Ivuriro rusange rifasha abarwayi kuba babona ubuvuzi mu buryo buboroheye, ndetse hafi yabo, kugira ngo bitabweweho n'abaganga, bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Kubaka urukarabiro ahantu hakunda guhurira abantu benshi, bifasha mu kuzamura umuco wo gukaraba intoki n'amazi meza ndetse n'isabune birinda abantu kuba bakwirakwiza indwara zigiye zitandukanye, zishobora kuzahaza ubuzima bwabo.

Ubukangurambaga ku cyorezo cya ebola binyuze mu ikinamico, aho bagaragaza ibimenyetso by'ibyorezo bya ebola harimo gucika intege, kuva amaraso ahantu hose hari umwenge, mu mazuru mu matwi mu maso, aho bashishikariza abaturage ko uwaba afite ibimenyetso nk'ibyo yakwihutira kujya kwa muganga akitabwaho.

Icyumba cy'inama abantu bari gufata amahugurwa ku bijyanye no kubungabunga ndetse no kwita ku buzima bwo mu mutwe, kugira ngo bazafashe abandi kubahugura ndetse no kubigisha uko bafata neza ubuzima bwabo.

Ikirangantego kiri mu mabara y'ubururu, umweru, icyatsi kibisi ndetse n'umuhondo, cy'Ikigo cy'Igihugu gishinzwe kubungabunga ndetse no kwita ku buzima bwo mu mutwe Rwanda Mental Health in Practice.

Ubukangurambaga kubijyanye n'ibiruhuko byo mu mutwe binyuze mu mukino w'ikinamico bigaragaza uko twafata neza abantu babana n'uburwayi bwo mu mutwe uko twabitaho mu miryango yacu kugira ngo nabo bagire...

Bifashishije akadodo kabugenewe mu gukuramo imyanda iba yasigaye mu menyo igihe uri kwiborosa ukuramo ibisigazwa by'ibiryo kugira ngo bigufashe kurinda amenyo yawe kuba yarwara indwara zigiye zitandukanye nko gucukuka ukanga gusiga amafunguro mu kanwa.

Uburyo bwo gusukura amenyo twifashishije akadodo koza gafite isukum ukanyuze hagati y'amenyo aho agiye atandukaniye, kugira ngo uvanemo ibiryo biba byasigaye mu kanwa, biteza impumuro mbi mugihe bimaze umwanya niho bishobora no gutera izindi ndwara z'amenyo kuba yacukuka akabora.

Gufasha abantu bageze mu zabukuru by'umwihariko kubafasha no kumenya amakuru aba agezwehora, yaba ari aya murandasi cyangwa ayandi yanyujijwe mu bindi bisakazamakuru kugira ngo bamenye aho isi igeze.

Kugira ngo turusheho kwita ku bana bageze mju zabukuru no ku buzima bwabo ni byiza ko abana basura ba nyirakuru babo ndetse na ba sekuru babo kugira ngo babaganirize bakomeza kwicwa n'irungu.

Kwita ku bantu bakuze, ubafasha gufata imiti, ibarinda kuzahazwa n'indwara bafite, kandi ku gihe, kugira ngo ubuzima bwabo burusheho kugenda neza umunsi ku munsi.

Umukecuru n'umusaza, bicaye ku meza bari kuganira baseka cyane, banafata ifunguro ririho indyo yuzuye, ibyubaka umubiri, ibitera imbaraga, ndetse n'ibirinda indwara.

Igikorwa cyo kwirinda koronavirusi, binyuze mu kwambara upfutse umunwa n'amazuru neza, ndetse no gufata inkingo za koronavirusi, uko biteganyijwe kandi ku gihe.

Ikigo gikuru gitanga abavuzi. Bashinzwe kwita ku bantu bageze mu zabukuru, haba mu buvuzi, no kwita ku buzima bw'abarwayi bo mu mutwe, kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza.

Ikigo nderabuzima inzu y'ababyeyi ahakirirwa ababyeyi batwite ndetse n'abenda kubyara kugira ngo bahabwe ubuvuzi bakurikirane n'abana batwite, kugira ngo bitabweho hagabanuke umubare w'ababyeyi bapfa babyara ndetse n'uw'impinja bitaba Imana bakivuka.

Inyubako y'ikigo cy'igihugu gishinzwe kurwanya no kurandura ndetse no kuvura kanseri mu Rwanda, aho gitanga amahugurwa n'ubumenyi ku ndwara za kanseri, bakavura abarwaye.

Icyumba cy'urubyiruko cyo ku kigo nderabuzima cya Remera-Rukoma, ahatangirwa inama zigiye zitandukanye ku buzima bw'imyororokere, banafasha urubyiruko kuba bamenya ubumenyi butandukanye, n'uburyo bakwirinda ibishuko biri hanze aha, ndetse no kuba bafashwe ku ngufu, aho bahererwa inama zigiye zitandukanye zituma batiheba.

Ibitaro bya Kabgayi bitanga ubuvuzi ku ndwara zitandukanye, by'umwihariko indwara y'amaso, aho bavura abarwayi, indwara y'amaso, aba yarabazahaje ndetse bakanahabwa inama zitandukanye, kwita ku maso.

Ikigo nderabuzima, icyumba cyabugenewe harimo amamashini, aho umurwayi anyuzwa kugira ngo acishwe mu cyuma kugira ngo barebe indwara zitandukanye zo mu mubiri we. Abaganga bamufashe kurebesha amaso cyangwa bagapima hakoreshejwe ubundi buryo, kugira ngo barebe ko bazibona.

Tugomba gufasha abantu babana n'ubumuga bigiye butandukanye, kugira ngo na bo tubageze ku bigo nderabuzima bitabweho n'abaganga, bavurwe indwara zgiye zitandukanye, yaba izijyanye n'ubumuga bafite, cyangwa n'izindi z'umubiri, bakire ubwo burwayi.

Ikigo nderabuzima gufasha abaturage kwi ndetse no kubungabunga ubuzima bwabo bw'umwihariko ndetse n'abagore batwite kwita ku mwana w'intambo kuva yasama kugera itabi ndetse no kudafite inshinge bifasha umwana mu nda kugira ngo agire ubuzima bwiza bwo kugeza.

Ibitaro bya Gihundwe bitanga ubuvuzi ku ndwara zigiye zitandukanye. Harimo n'indwara y'amaso. Bifasha abaturage kubona ubuvuzi bw'ibanze ku ndwara zigiye zitandukanye.

Imbere mu nyubako y'ubuvuzi, mu cyumba cyahariwe gusuzumirwamo ibizamini biba byafashwe by'abarwayi, bigiye bitandukanye, by'amaraso, inkari cyangwa n'iby'umusarane, kugira ngo bifashe kumenya icyo arwaye.

Inyubako y'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima gishinzwe ifatwa kikanatanga amahugurwa mu gufata amaraso kugira ngo bakire abarwayi barembeye kwa muganga mu bice bitandukanye by'igihugu badafite amaraso ahagije mu mubiri.

Igikapu cy'ibikoresho by'ubutabazi bw'ibanze by'ubuzima harimo ibitambaro byo gupfuki ibikomere, imiti yoza ibikomere, ibinini, inshinge, ndetse n'udupimisho tw'umuriro, umukasi.

Ibikoresho byifashishwa mu imikino n'imyitozo ngororamubiri, harimo imipira myinshi y'umupira w'amaguru n'udupira tw'amaboko babasha kurambura.

Gukora imyitozo ngororamubiri kwinshi, ifasha umubiri, ikayongerera ubudahangarwa bwo kuba barwanya jndwara zigiye zitandukanye, nk'umugongo, umuvuduko w'amaraso n'izindi ndwara zitandura, bigatuma kandi umuntu agira ubuzima bwiza.

Kwita ku bakinnyi bakina umupira w'amaguru bahabwa ubuvuzi bw'ibanze mu gihe bagize ikibazo, kugira ngo bitabaviramo ubumuga, hifashishijwe imiti itandukanye.

Kwita ku bana bakiri bato, ubaha ubuvuzi bw'ibanze, kubakanda aho bagize imvune zitandukanye, bibafasha kugira ubuzima bwiza bikabarinda kuba imvune zabo zabakomerana zikabazahaza.

Icyumba gikorerwamo imyitozo ngororamubiri kirimo ibikoresho bitandukanye bifasha abantu gukora imyitozo ngororamubiri batavuye aho bari birimo nko kwiruka cyangwa kunyonga amagare ariko batavuye aho bari.

Gukora imyitozo ngororamubiri, bifasha umuntu kuba yakomera ku mubiri we, bigafasha n'ingingo ze, bikamurinda indwara zigiye zitandukanye ,nk'umugongo cyangwa imitsi ndetse n'izindi zigiye zitandukanye zitandura.

Ubukangurambaga bw'abantu benshi biganjemo urubyiruko n'abana batoya, bahuriye ku kibuga cy'imikino aho bari gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza buzira umuze.

Umuti gakondo ukozwe mu bimera, ufasha abantu kwita ku ruhu rwabo, kubavura ibiheri byo mu maso cyangwa kwangirika k'uruhu. Bituma barushaho kugira ubuzima bwiza.

Kwifashisha umuti gakondo mu kwivura indwara zitandukanye, nk'indimu, tangawizi, biteguye neza, ukora umutobe wabyo ukuvura indwara nk'inkorora, umutwe no kubabara mu gatuza.

Igikakarubamba gishobora kwifashishwa nk'umuti ukoreshejwe mu buryo butandukanye. Gishobora gukoramo amavuta, gishobora kuvura umuntu indwara z'uruhu, n'ibiheri byo mu maso ndetse n'ibindi byo ku mubiri. Gishobora kandi no kuba cyakoreshwa mu bundi buryo, kikaba cyavura umuntu inzoka.